Ni abagabo benshi bicaye mu ntebe nziza zigezweho, bafite indangururamajwi imbere yabo, hari n'abafite za mudasobwa bari gukoresha, bari mu kazi basa nkaho bari mu nama kandi barakurikiye cyane.

Ni abagore bane, bamwe bambaye imipira isa y'ibara ry'umutuku ukeye, abandi babiri harimo uwambaye amadarubindi n'uwambaye ishati y'ubururu, bicaye imbere y'imeza, iriho ibitambaro by'amabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru.

Ni ifoto igaragaza ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'andi magambo menshi nk'ayo wakoresha wifashisha gusaba ahantu akazi, hariho imyirondoro hari aho hajya amazina na hajya umubare w'ibanga, mu kirangantego harimo agaseke, harimo ingabo, harimo isaka n'ibindi.

Ni amazu menshi, ari ahantu hatuwe ndetse ni amazu meza, harimo imwe igeretse harimo n'izindi z'ibisenge bisanzwe ndetse hari n'imigozi ijyana umuriro hafi aho ngaho.